Umurwayi bwa'amaso bumaze kuba bwinshi mu bantu. Uragenda ugasanga n'abana barwaye mu amaso yarabarembeje ,ugasanga abakuru n'abasaza yarabarembeje ,bo havuyemo na miyopi ntibari kureba neza ,mu gusoma bafite ikibazo . Ariko hari n'amaso y'ikirere . Amaso y'ikirere rero yo akunda gufata abana bakiri batoya . Iyo ubavuje neza ukagira amahirwe ,barakira.

Ibijyanye n'ubuvuzi mu Rwanda byateye imbere, kuko ahantu henshi urahagera ugasanga hari za farumasi, za poste de sante, ku kagari urumva ko bijyananye n'ubuvuzi byateye imbere cyane mu gihugu, kubera ko muturage ukijya kwivuriza kure cyane, biterwa n'uburwayi.

Farumasi na zo zifasha abantu cyane cyane ariko abantu bafite ubwishingizi nka RAMA, naho ufite mituweli n'ubundi usanga bari kwiyishura menshi kubera ko badakorana na za Farumasi kandi no mu mavuriro yigenga na ho usanga bitari kugenda neza kubera ko mituweli ntabwo byakorohera.

Imiti ni myiza ariko biba byiza ari uko umurwayi yagiye kwa muganga . Muganga agushyiramo igipimo ,akagusuzuma. Ubwo rero iyo agusuzumye amenya imiti araguha. Ubwo rero no kuyinywa akakubwira ukuntu abantu bayinywa kuko ugiye kuyigura kuri farumasi, hari igihe batakubwiye ukuntu urayinywa neza . Ariko muganga akubwira ukuntu bayinywa noneho ikakugira umumaro ukaba wakira neza.

Mu Rwanda bumaze gutera imbere cyane. Kuko ahenshi u uhasanga farumasi, uhasanga za kirinike, ndetse na za poste de sante usanga ku tugali. Rero urumva ko ku bijyanye n'ubuvuzi ,bumaze gutera imbere.

Ubavuzi gakondo buba bwiza cyane kubera ko habaho indwara nyinshi zitagomba kujya kwa muganga zivurirwa mu giturage. Ubwo rero abantu bagomba kubizirikana bakanabyitaho n'ubwo bajya kwa muganga ariko bakamenya ko hari n'uburwayi buvurirwa mu giturage cyangwa se ubuvuzi gakundo, ubwo rero ibyatsi byose binyuze ntabwo twabyangiza.

Ubuvuzi gakondo buba bwiza cyane, kubera ko bufasha abaturage, mu gukemura ibibazo by'uburwayi baba bagize, buba butagomba kuzaja kwa muganga. Rero biboneka mu byatsi byinshi biba bihinzwe hirya no hino.

Amashyamba aba meza, ariko noneho n'abantu bihaye, bifite, hari igihe bubakaga jaride, bagashyiramo ibiti byinshi, bitanga imbuto, bihumura neza, cyangwa ibindi bigasangwa mbese bisa neza, ubwo rero buri wese yakagombye guharanira yuko ishyamba ridasarurwa mu gihe kitari cyo kuko giti cyakwangirizwa.

Indabyo ziba nziza kubera ko barazitegura . Kandi indabyo zizana n'umwuka mwiza, bazitegura muri jaride, bazitegura muri hoteli, bazitegura ahantu hose hahurira abantu benshi . Indabyo ziba nziza cyane rwose kuko usanga zishimishije abantu . Ubwo rero ni yo mpamvu usanga ba ku irembo baziteye ,ugasanga mu mbuga zirimo ,ugasanga baziteguye mu bikombe n'ahantu henshi.

Ubuvuzi bwa gakondo bukunda gukoresha imiti y'ibyatsi ,kandi imiti y'ibyatsi na yo ikunda gufasha abantu kuberako akenshi usanga ibyatsi birimo umuti wo gufasha abantu.

Indabyo ni zimwe zituma ahantu hamera neza, ugasanga iyo baziteye mu nkengero y'urugo, iyo baziteye mu rugo usanga ahantu hakeye, kandi kera wari umuco kubera ko wasangaga ahateye indabo bari kuvuga ngo hari umwari cyangwa se hari umwangavu. Ubwo rero umuco tugomba kuwuhuza n'iterambere.

Ubuvuzi gakondo buba bwiza kuberako bufasha abaturage kuko hari uburwayi bwinshi bufata abana, bitaba ngombwa bidasaba yuko babajyana kwa muganga, abavuzi gakondo rero hari igihe bunganira ababyeyi baba bavuza imiti ya gakondo kandi abana bagakira.